Abaganga babiri, umugabo n'umugore, bombi bambaye udupfukamunwa. Umugore afite ibyo arimo gukora. Bari mu cyumba cyiza cyane, icyumba kirimo icyuma cya microscopi. Icyuma k kirimo intebe ya parasitike , ndetse n'aho gukarabira intoki.

Utwatsi dutoshye twiza cyane, dukunze kwitwa inyunyu, harimo n'utwatsi twumye, ndetse n'mbatabata , icyatsi cyiza cyane kivura imvune.

Ahantu heza hari ibuye, n'utwatsi twameze ariko utwatsi dufite utuntu tw'udutobore, n'ibuye rigiye ritobaguritsemo ibitobore, ndetse ntabwo ari rimwe, amabuye yose ahari agiye atobaguritse wagira ngo aramunzwe.

Ahantu heza cyane ahantu hateye indabo nziza cyane, ahantu hari igiti kivamo umuti gakondo, ahantu heza cyane hameze n'igiko ndetse n'ahantu heza wagira ngo ni ahantu nyaburanga, hari ibiti bindi byinshi bihakikije.

Ahantu heza cyane hari utubuye, ndetse ubutaka bwiza cyane buteyemo igiti cya avoka, igiti cya avoka cyiza cyane, gifite amababi y'icyatsi, ndetse n'andi mababi y'icyatsi, ariko afite utuntu tw'udosi, dosi wagira ngo yarahiye cyangwa ngo yarababutse.